Abana batoya bari kumwe n'abantu bakuru, harimo n'umeze nk'umuzungu, bafashe impano mu ntoki ibizwi nka kado, bishimye bameze nk'abatsindiye impano runaka cyangwa batomboye impano.

Inyubako zubatse mu buryo nk'ubw'inyubako zo kwa muganga cyangwa ibitaro, ziriho ubusitani bw'indabyo n'ibyapa n'abaturage bari imbere ku mabaraza y'izo nyubako baje gushaka serivisi.

Inyubako y'ishuri iri hagati mu kigo cy'amashuri n'idarapo riri imbere ry'igihugu cy'u Rwanda n'ikigega gitangira amazi aturuka ku bisenge by'amashuri n'indabyo z'ubusitani bwo mu kigo k'ishuri.